Inyamaswa ibarizwa mu muryango w'ibiguruka yitwa ikinyugunyugu gifite amabara ya oranje, umukara ndetse n'umweru.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyangwa se univerisiti bose bafite amakaramu basa nkaho hari ibintu bari kwandika.